Abantu bafite umurwayi mu ngobyi, aho abo bantu bari hari umurima w'ibihingwa bitandukanye ndetse hirya y'umurima hariho n'ibiti bitandukanye.

Abantu bicaye bambaye impuzankano y'bujire bw'umutuku, barasa naho bateze amatwi inyigisho zo bahabwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu buvuzi. Hari igitanda kiryamaho abarwayi ndetse hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi hari umurwayi uryamye ku gitanda, hari abagabo batatu bambaye imyenda yabugenewe ibarinda kwandura indwara zitandukanye.

Abantu bafite uburwayi bw'ubumuga bicaye mu tugare ndetse bambaye n'udupfukamunwa kandi hari n'abandi bahagaze inyuma ariko bo ntabwo bafite ubumuga.

Icyumba kirimo ibitanda by'abarwayi, ibyo bitanda biryamyeho abarwayi, hari ndetse n'abicayeho, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa ku bitaro.

Inzu yicayemo abantu bambaye impuzankano zitandukanye. Bamwe bambaye iy'ubururu, abandi bambaye iyicyatsi. Imbere yabo bantu hicaye abandi bantu, umwe arahagaze arasa naho haricyo ari kubabwira.

Ibikoresho bitandukanye bakoresha kwa muganga, ibi bikoresho babikoresha iyo umuntu yagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa se cyo kuvunika, babikoresha bagira ngo bamugabanyirize uburibwe cyangwa bagira ngo akire neza.

Imbangukiragutabara hahagazeho abantu, bamwe bambaye imyenda yabo igenewe kandi birasa n'aho hari umurwayi bari gushyira muri iyi mbangukiragutabara, hirya y'aho kandi hari ibiti byinshi, kuri iyi mbangukiragutabara ndetse hari n'undi muntu wari uri gufata amafoto.

Inzu irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga harimo intebe, hari agatanda k'abarwayi, hari ibindi bikoresho bifashisha bavura abarwayi.

Abantu umunani bahagaze mu bucaca, inyuma y'aho hari inzu bari guha umuntu mudasobwa yo kwifashisha.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe bari mu cyumba. Iki cyumba kirasa naho ari icyo kwa muganga. Bambaye ubupfukamunwa ariko muri bo harimo abatabwambaye neza.

Imbangukiragutabara harimo umuntu wicayemo imbere, yambaye umukandara. Hari kandi n'inyubako yanditseho ngo "Ibitaro bya Gatunda, Gatunda Hospital". Hafi yaho hari ibiti ndetse n'umuhanda.

Imodoka yabarwayi cyangwa se imbangukiragutabara. Iyi modoka itabarira hafi umurwayi ufite ikibazo. Imugeza kwa muganga byihuse kugira ngo abashe kumukemurira ikibazo. Harimo aho umurwayi aryama, aho umushoferi yicara arikujya, ari gutwara.

Inyubako zubakishijwe n'amatafari ahiye zisakajwe n'amabati y'ubururu, kuri izo nyubako hari ikigega cy'amazi, hari kandi n'abantu bicaye aho ngaho birasa n'aho bari kwaka serivise kwa muganga.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa kwa muganga, muri iki cyumba kandi hagazemo abagabo, barasa naho bari gukoramo amasuku.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda yababugenewe, harimo igitanda hasa n'aho baryamyeho umuntu, bari kumukorera isuzuma aho hantu aryamye harimo ibikoresho bari kwifashisha bitandukanye byo kwa muganga.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu ikoranabuhanga. Ibi bikoresho bidufasha mu bushakashatsi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bikadufasha no kumenya byinshi ku gihugu cyacu ndetse bitanga n'akazi ku bantu byongera n'iterambere.

Abantu bahagaze ku nzu kuri yo nzu hari amagambo yanditseho, avuga ngo matipapose hali, inzu mberabyombi abo bantu imbere y'aho bari hari agacaca.

Inyubako zifite imiryango myinshi, izi nyubako kandi zikikijwe n'ibiti, hari abantu benshi bahagaze kuri izi nyubako, bamwe bambaye amatavuriya y'umweru abandi, bambaye imyenda isanzwe, bamwe barasa naho bari kugaragaza ko bari mu masuku.

Abantu bicaye munsi y'inyubako y'ibitambaro, ibyo bitambaro birerekana amabara agize ibendera ry' u Rwanda. Aba bantu bicayemo kandi bambaye impuzankano igaragaza ko ari abanyabuzima.

Inzu irimo imyenda ndetse n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga harimo kandi n'abantu birasa nkaho bari mu kazi.

Imbangukiragutabara harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo gufasha abarwayi, hari igitanda umurwayi aryamaho, hari n'intebe kandi ndende yo kwicaraho, hari n'indi indobo yo gushiramo imyanda.

Inzu irimo ibikoresho bifashisha kwa muganga, ibi bikoresho babyifashisha bagira ngo barebe indwara umuntu arwaye zitandukanye, babikoresha bari gupima ubuzima bw'umuntu.

Icyumba kirimo ibitanda, muri iki cyumba harimo abantu bambaye amataburiya ndetse harimo n'umugabo ufashe ikayi asa n'aho ari gusoma, ku gitanda kimwe hariho umuntu uhicaye bisa n'aho ari umurwayi, iki cyumba kandi kirasa n'aho ari icyo kwa muganga kuko harimo aho abarwayi baryama ndetse n'abaganga.

Bicaye hamwe, bamwe bari gusoma, hari undi mugabo uhagaze, inyuma aho bicaye hari ibishushanyo bigaragaza umuntu urimo kwigisha urubyiruko, handitse amagambo avuga ngo rubyiruko kugira amakuru k'ubuzima bw'imyororokere n'uburenganzira bwanyu.

Icyumba kirimo abantu, umugabo yambaye imyenda y'ingabo ya gisirikare y'u Rwanda, hicayemo n'umumama, birasa n'aho ari icyumba k'isuzumiro aho abarwayi babasuzumira indwara zabo.

Inyubako harimo imiryango itandukanye, hari abantu benshi bamwe bambaye impuzankano amatabuririya y'umweru, abandi bari gukora amasuku bari koza intebe.

Umugabo ari mu cyumba cy'ubushakashatsi, yambaye itaburiya. Ari kurebera mu gikoresho cyongera ingano y'ikintu kugira ngo kigaragare neza bityo abashe gusobanukirwa icyari cyo.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha iyo bari kwiga, aba banyeshuri kandi bose bambaye amataburiya y'umweru.

Icyumba cy'ubushakashatsi harimo abantu bambaye amataburiya. Bamwe barimo barakora abandi bari kureba ibyo bakora. Harimo kandi n'ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa muri iki cyumba cy'ubushakashatsi.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, bambaye amataburiya, ibi bafasha kwirinda kwangirizwa n'ibikoresho bimwe na bimwe biva muri ibi byumba by'ubushakashatsi, bamwe bafite impapuro bandikaho, abandi barimo barareba ibyo bari gukora.

Ibikoresho bifashisha kwa muganga mu cyumba cy'isuzumiro, harimo ikayi, hakabamo intebe n'amezaza bashyiraho ibikoresho, hari imiti itandukanye, hari n'isabune yifashisha bakaraba, hari n'akadobo ko gushyiraramo imyanda.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha kwa muganga. Ibyinshi muri ibi bikoresho ni iby'isuku harimo isabune, hakabamo udukoresho bakoresha kugira ngo basukure mu matwi n'utundi dukoresho dutandukanye tw'isuku.

Icyumba hicayemo umugabo n'umumama ufite umwana, uwo umumama asa naho ari gusuzumisha umwana kwa muganga.

Icyumba cy'ubushakashatsi harimo abantu bambaye imyenda yabugenewe, icyo cyumba kandi harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abantu bifashisha biga ndetse bakora n'ubushakashatsi.

Umuntu uri mu cyumba cy'ubushakashatsi, ari kwifashisha igikoresho bakoresha kugira ngo bongere ubugaragare bw'ikintu, kugira ngo icyo kintu kigaragare neza.

Umuntu wambaye imyenda y'abaganga ari gufata amaraso undi muntu birasa naho ari umuganga uri gufata amaraso umurwayi, imbere y'uwo muntu w'umuganga hari ibipapuro ari kujya yandikaho.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ubushakashatsi ,bambaye impuzankano umweru n'umukara ,ndetse n'ubupfukamunwa, hari Gaz bacanyeho umuriro kugira ngo bashyireho ibyo bari gukoreraho ubushakashatsi.

Umuntu ari mu cyumba cy'ubushakashatsi, afite agakoresho bakoresha bari gusuzuma ibintu byinshi bitandukanye. Uyu muntu yambaye Ga z'ubururu, zimurinda kuba yakwangirizwa n'ibikoresho byo mu byumba by'ubushakashatsi.

Abantu bambaye impuzankano bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, bambaye amataburiya asa icyatsi na ga zisa umweru, ibi bibarinda kuba bakwangizwa n'ibikoresho bimwe na bimwe biba muri iyi nzu byangirirza.

Umuntu wambaye itabiriya y'umweru, yicaye mu cyumba cy'ubushakashatsi, uyu muntu yambaye agapfukamunwa ari kureba mu gikoresho cyifashishwa mu kongera ingano y'ikintu kitagaragara neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bifashisha mu bushakashatsi. Muri iki cyumba harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru. Hanze yaho hari abantu bahagaze barasa naho bategereje guhabwa serivisi.

Icyumba cy'ishuri, harimo abana bicaye mu matsinda, abo bana bafite ibipapuro, imbere y'abo hari umugabo uhagaze, ndetse itsinda rimwe ririmo undi mugabo asa n'aho ari kubereka ibyo bakora.

Abantu bambaye imipirasa, ariko bamwe muri bo ntabwogo bambaye iyo mipira. Bari guha abana ibyo kunywa, kandi hari n'umuntu urimo kubafata amafoto.

Umu mama ahagaze mu bantu, afite mikoro, afite n'impapuro, asa n'aho arikubabwira inyigisho zitandukanye, yambaye umupira w'icyatsi uriho ikirango cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bambaye amataburiya. Aba bantu kandi bafite umwana w'uruhinja. Birasa n'aho basoje gukora igikorwa cyo kubyaza.

Umuganga arimo aratera umwana urushinge, uwo mwana afitwe na mama we, hari ameza bashyiraho ibikoresho, hari n'akandi kantu ku ruhande bashyiramo imyanda itandukanye.

Umu mama afite igitabo arimo araseka. Yambaye itaburiya y'umweru, yiteza agatambaro k'umweru. Ahantu ari hari ibikoresho bifashisha kwa muganga bitandukanye.

Abantu bahagaze ariko harimo abicaye kandi hari icyapa cyanditseho ngo isange one stop center, hari n'inyubako y'irangi ry'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu.

Inzu yicayemo abantu, imbere yabo hari umuntu usa n'aho afite icyo ari kubabwira. Iyo nzu kandi hari ibitambaro bifite amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu cy'urwanda.

Inzu irimo abantu ndetse n'umuntu uhagaze imbere y'abo abantu, harimo ibitambaro bigaragaza amabara y'ibendera ry'Igihugu, birasa n'aho umuntu uhagaze imbere arikubigisha ibintu bitandukanye.

Abantu bambaye impuzankano ariko harimo ntabatazambaye bahagaze ku nyubako hari amagambo yanditseho ngo ikigo cy'urubyiruko cya Kinzuzi, rinda inzozi zawe.

Icyapa kiriho abantu, iki cyapa cyanditsweho ngo: "Baho neza bwite ku buzima bwo mu mutwe, ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe ni isoko yo kubaho neza, Ndura GS Shango, 3/05/2023."

Abantu benshi bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bicaye ahantu bari gukoma amashyi, birasa n'aho bari gushimira umuntu umaze kubaha inyigisho.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho ngo: "Ibiyobyabwenge birica, irinde gukoresha ibiyobyabwenge byangiza ubuzima, byirinde."

Abantu benshi bicaye ahantu bateze amatwi, imbere yabo hicaye undi muntu kandi hahagaze umugore n'umugabo, umugabo afite mikoro.

Icyumba kirimo imiti itandukanye, iyi miti yifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi mu gukiza indwara zigiye zitandukanye ndetse no kwirinda kurwara izo ndwara.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ndetse inzu zayo zitereshejwe irangi ry'icyatsi, imbere y'iyi nyubako hari amapave kandi hari n'amajerekani, hirya y'iyi nyubako haragaragara ibiti.

Inyubako ziri hafi y'umuhanda birasa nkaho bakoreramo ubucuruzi, haparitse moto kandi zubakishije amarange y'umweru.

Inzu icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti ifasha abantu gukira indwara vuba byihuse ndetse ikanabarinda gufatwa n'indwara zitandukanye.

Inzu irimo imiti y'amoko atandukanye, harimo ibinini ndetse n'indi miti iri mu macupa no mu dukarito, hari urupapuro rwanditseho amagambo.

Icyumba k'imiti igiye itandukanye. Muri iki cyumba harimo abagabo bamwe bambaye amataburiya ariko umwe muri bo we nta taburiya yambaye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amoko atandukanye, kuri iyi nzu kandi hari amagambo menshi, muri aya magambo harimo ibyanditswe mu Kinyarwanda rivuga ngo:"Ni urukundo gusa."

Inzu iriho amagambo agaragaza ko bakoreramo ubuvuzi gakondo, handitseho ngo ivuriro gakondo cyangwa se ivuriro rivurisha ibimera.

Ahantu hari imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iturinda indwara ndetse ikadukiza n'izo turwaye.

Inzu irimo ububati burimo imiti myinshi itandukanye, iyi miti ifasha abantu kwirinda indwara ndetse ikabakiza n'uburwayi mu buryo bwihuse.

Imiti itandukanye iri ahantu hamwe. Imwe iri mu dukarito, indi iri mu ducupa dutandukanye. Iyi miti ifasha abantu, gukira indwara byihuse.

Ni inzu bacururizamo imiti, hari n'umuhanda imbere yaho, hagaragara ko hari icyapa cyerekana ko, ari ahantu bagurira imiti.

Inzu ipanzemo imiti myinshi itandukanye, iyi miti ifasha gukiza abantu indwara nyinshi zitandukanye, bigafasha ndetse abantu kwirinda n'icyatuma barwara.

Abantu bambaye udupira dusa tw'umweru twanditseho ngo" One Health". Ahantu bari hari amatente ndetse hari n'amatungo hari n'udukoresho bashyiramo imiti y'amatungo. Birasa naho bari kuvura amatungo.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze imbere y'imodoka nini cyane, yanditse amagambo ngo ugakoreshe neza, aho iyo modoka iparitse hepfo y'aho hari amazu y'imiryango itandukanye, ateye amarangi y'umuhondo.

Abantu bambaye udupira dusa, bafite icyapa cyanditseho ngo: "Iminsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina".

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bahagaze, bamwe muri bo bafite icyapa cyanditsweho ngo: "Wiceceka, rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina", birasa n'aho bari gushishikariza abantu kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umusaza ufite ibyatsi byinshi ahantu yicaye hari inzu y'ibyatsi.

Ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye. Harimo ibiti bimwe byifashishwa mu gukora umuti w'ubuvuzi gakondo, bityo rero bigafasha abarwayi gukira indwara zabo.

Icyumba kirimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, harimo abantu bicaye, imbere y'abo bantu hari uwicaye imbere nanone w'umuganga. Birasa naho ari gusuzuma indwara.

Umuntu uri mu cyumba cyo kwa muganga, muri icyo cyumba harimo akabati karimo amaso atandukanye, aya maso afasha abantu bagira uburwayi bw'amaso kuba baba bazima.

Inzu ifite irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hari abantu bahagazeho. Imbere y'abo bantu kandi, hari umumama ubahagazemo na we hagati yambaye itaburiya y'umweru kandi kuri iyo nzu handitseho ngo guhindura ubuzima.

Inyubako ifite imiryango myinshi itandukanye, kuri iyo nyubako hicaye abantu hafi y'aho hari ibiti ndetse n'indabo, birasa n'aho iyo nyubako ari ivuriro.

Inzu iteye irangi ry'ubururu hanze y'inzu kandi hari intebe yicayeho abantu, hari na kandagira ukarabe kandi haragaragara ko hari abantu bari kuva kuri iyi nzu hirya y'iyi nzu hari ibiti byinshi.